Ahantu heza cyane ni mu nzu, irimo ameza arambitseho mashine, laronge bacagingagaho, ndetse n'utubati twiza cyane.

Ahantu haba amashuri bubatse neza barayubakishije amatafari ahiye, ndetse n'inzugi nziza cyane ziba zisize amarangi. Kandi abarimu baba bambaye amatabuririya y'umweru, iyo bari kwigisha abanyeshuri.

Ku mashuri niheza cyane kuko abana barahigira bakagira ubumenyi, ndetse n'abarimu niho bajya kwigishiriza. N'amashuri yaba yubatse neza yabamo n'utubati tuba turimo ibikoresho bakoresha bari kwigisha.

Ishuri ryubatse neza rirakinze nta banyeshuri barimo kandi amashuri bagijyiragamo cyangwa se haba habaye nka matora bakayifashisha bakavuga ngo umudugudu uratorera muri ici cumba uyu nguyu naho uratorera muri iki ngiki.

Amashuri bigiramo ariko nta banyeshuri baba barimo, habamo intebe ndetse n'ikibaho kandi ikindi bigishwa n'abarimu, bakaza imbere yabo bakabaha amasomo bakiga, bagatsinda ndetse bakajya no muri sogonderi.

Amashuri bigiramo aba ari ayo muri pirimere, ashakaje amabati y'ubururu, ndetse n'inzugi ziba zisa n'ubururu. Imbere haba hateye indabo, kandi hari n'ikibuga kirimo agacaca, ahandi hatari agacaca. Kandi na none inyuma yaho haba hari agashyamba k'ibiti.

Ahantu haba hari ingagi imbere, haba hari abantu bari kwifotoza, kandi barazirinda, bambara n'imyenda y'inforume, ziba zirimo imipira n'amakote n'amapantaro ndetse n'ingofero, ikindi nanone hari abandi baba bahagaze batambara imyenda y'inifurume.

Abana baba bari kwiga bambara imyenda ya iniforume, amashati aba asa n'ubururu, amajipo aba ari aya kake, baba bari kwigira hanze bari gushushanya, kubera ko baba bafite n'amakureri bari gusiga, inyuma yabo haba hateye ururabo rwiza cyane.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga, umwe arahagaze, bambaraga imyenda z'umukara hasi, inkweto ni iz'umukara n'amagisi y'umweru, amashati n'ag'umweru bicaraga no ku ntebe nziza cane zifite n'ameza, bari kwiga bari kunywa n'amazi, mu ishuri ryabo habagamo n'amakaro.

Abanyeshuri biga bari kwigira mu magurupe, baba bambaye amashati y'umweru, bamwe bafite amakayi bari kwandika, abandi na bo barayafite ariko nta bwo bari kwandika, barakurikiye. Kandi na none kwigira mu magurupe bituma umuntu yunguka ubumenyi bwinshi.

Abantu ba bagabo bambara ibisurubeti by'ubururu n'ingofero z'umuhondo harimo n'abambara kuteri mu ijosi, imbere yabo hari purize zicometse inyuma yaho nanone hari tiripuregisi nayo iriho izindi purize.

Abantu biga iby'amashanyarazi baba bambaye ibiserubeti, bambaye na ga mu ntoki, kandi ikindi baba bambaye na marinete afasha mu gihe bari gusudira kugira ngo umuriro utabica amaso. Kandi ikindi basudiraga n'insinga iyo zacitse zimwe zijyana umuriro mu ngo, ndetse no mu mashuri, no mu nsengero.

Abanyeshuri biga baba bambaye imyenda z'impuzankano, haba harimo amashati asa n'umweru, ndetse n'amajipo n'amapantaro biba bisa na kaki. Harimo ababa bambaye amatara Tara, abandi bambara n'amasaha. Ikindi nanone iyo bashaka kwigira muri rumu ibamo za kompiyuta maze bakazikanda.

Abantu bigaga ubwubatsi babaga bambaye ibisarubiti by'ubururu, bambaye n'ingofero zisaga n'umuhondo ,izindi zisa n'ubururu, babaga bari kuyora ibitaka babishyira mu ndobo, bakoresheje ibitiyo, habaga hahagaze n'umuntu ubigishaga afite ibipapuro by'umweru.

Abana biga muri pirimere bagatsinda bakajya muri sogonderi biga neza cyane, kuko bagera igihe bakabambika n'ingofero ndetse n'amakanzu kubera y'uko baba baratsinze neza. Ni ibihembo baba bari kubaha kugira ngo n'abandi bazige neza babasange.

Abantu biga kubaza babaza neza, kandi babariza ahantu hameze neza, haba hubatse hanashakaje amabati y'umweru. Ikindi kandi baba bambaye imipira y'icyatsi, ndetse n'amapantaro, haba harimo n'abambara amakabutura asa n'umuhondo.

Abanyeshuri baba bari ku ishuri biga bambaye imyenda y'ubururu, ikindi kandi biga no gushushanya. Baba bari kubyerekana bishimye cyane, kandi iyo umuntu amenya gushushanya agira amafaranga, kuko bamuha ibiraka byo gushushanya.

Abanyeshuri baba bari kwiga bambara imyenda zisa n'ubururu, bigira hanze bicaye mu ntebe baba bafite impapuro bari gushushanya kubera ko baba bafite n'amakureri inyuma yabo haba hari ikigega gitwara amazi yaturuka ku mashuri.

Abantu biga ububaji baba bambaye ibisarubeti biba bisa na kaki kandi imbere biba bifite imifuka bashyiramo imisumari iyo bagiye kuyitera mu mbaho, ikindi nanone babaza neza kuko babaza intebe ndetse n'ameza, ikindi nanone babaza n'ibitanda.